Icyumba cy'ishuri, icyumba cy'ubushakashatsi bw'ibyigwa, aho abanyeshuri bakorera ubushakashatsi. Mu ndimi z'amahanga bahita muri laboratware.

Ubukanishi bw'amaterefone n'ibindi bikoresho by'itumanaho, bituma abantu batajya kugura ibishyashya, kubera ko abakanishi babyo bafasha abantu cyane.

Umunyeshuri uri kubwira abandi banyeshuri ibintu byiza, bibafasha gutinyuka, abana baratinyuka, iyo bavugiye mu bandi cyane cyane mu ruhame.